Ahangaha bati igitekerezo ngengabucuruzi. Muri iki kigo cy'ubwishingizi cyo mu Rwanda, igitekerezo kiyobora ubucuruzi bwacyo gishingira kuri izi nkingi zikurikira; umunezero w'abakiriya, imibereho myiza y'abakiriya, n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ahangaha wahagana.

Barakubwira ngo gura ubwishingizi bw'impanuka zonona umubiri, butangwa n'ikigo cyitwa Radiyanti yacu wirinde sinamenye, aha ngaha ushobora kuba wahamagara ku cumi n'umunani icumi bakaguha ibindi bisobanuro.

Iki ngiki ni ikigo cy'ubwishingizi bagufasha kuguha ubwishingizi bw'ubuzima baguhereza ubwishingizi kugera ku myaka icumi cyangwa se makumyabiri mu gihe waba ufite imyaka makumyabiri n'umwe kugera kuri makumyabiri nine uba wemerewe kwiyandikisha, hari na nimero yo kubahamagaraho mirongo icyenda, zeru, rimwe, gatandatu, gatandatu, zeru, gatatu, cumi n'agatandatu, cumi n'agatandatu .

Uyu nguyu ni umwe mu bakozi b'ikigo runaka aha ngaha barakubaza ngo ufite impungenge z'ibihombo mu bucuruzi bwawe? Duhamagare kuri makumyabiri n'umunani makumyabiri n'umunani, cyangwa se ubandikire kuri imbuga nkoranyambaga ikimenyetso cyo guteranya makumyabiri na gatanu, zeru karindwi umunani umunani, gatatu rimwe, gatatu karindwi, gatanu gatandatu ubundi bagufashe.

Iki ngiki ni ikigo gitanga ubwishingizi , ukaba washinganisha abawe, ukaba washinganisha urugo rwawe, imitungo yawe, ndetse n'ibindi bintu byinshi byawe bitandukanye, aha ngaha barakubwira kurinda ejo hazaza h'umuryango wawe, wifashishije ubwishingizi.

Iki ni ikigo gitanga ubwishingizi uramutse ukeneye ubwishingizi ukagenda ugashinganisha ibyawe, ugashinganisha ibinyabiziga byawe, imitungo yawe ndetse n'ibindi bikorwa byawe bitandukanye ugiye gukora kugira ngo ibyago mu gihe byatera byakorohera.

Iki ngiki ni ikigo gitanga ubwishingizi bwo kwivuza bwihariye ku bigo bito n'amashyirahamwe uramutse ufite ikigo gito gishaka ubwishingizi waza hano bakagufasha cyangwa se ugahamagara kuri iyi nimero ngendanwa zeru karindwi umunani umunani cumi ni'icyenda umunani amazeru atatu .

Iki ngiki ni ikigo gitanga ubwishingizi uramutse ucyeneye ubwishingizi bw'umuryango wawe, uramutse ukeneye ubwishingizi bw'abawe, ibintu byose bigiye bitandukanye, ushobora kuza nawe ukishinganisha hamwe.

Ubu ngubu tugeze mu gihembwe cy'imvura. Iki ni ikigo cy'ubwishingizi, imvura nyinshi, imyuzure n'ibindi biza byakwangiza inyubako yawe, bikagutera ibihombo. Irinde sinamenye ugura ubwishingizi bw'inyubako maze ugire umutekano usesuye.

Barakwereka uburyo wakwinjira muri konti ya banki, ugashyiramo amazina ugashiramo amazina ukoresha, ugashiramo ijambo banga, ubundi ukaba wabasha kwinjiramo ugakoreramo gahunda zawe zigiye zitandukanye wakwifuza, kohereza amafaranga, kuyabikura, kwishyura ibintu byinshi bitandukanye.

Ahangaha ni banki yerekana uburyo bwo kwishyura. Bakerekana amazina y'ugiye kwishyura, amafaranga yishyuye ay'ishuri, bagashyiramo umubare w'amafaranga, ndetse bagahita bakubwira aho ushyira ijambo banga ryawe, ubundi ukishyura.

Ubu ngubu ni uburyo bw'uko ushobora kuba wahamagara, wakohereza amafaranga, wareba amafaranga ufite kuri terefone yawe ngendanwa aha ngaha hose harabikwereka bitewe n'ibyo ukeneye gukora.

Ahangaha barakwereka uburyo wakoresha banki, ukishyura ibintu byinshi bitandukanye, ukishyura amazi, ukishyura umuriro, uko wafata inguzanyo ukishyura imisoro n'amahoro n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Ubu ni uburyo bwo kohereza amafaranga, ukoresheje telefone yawe ngendanwa, haba hari ahantu kinti yawe, uburyo wakishyura ukoresheje ikarita, uburyo wakohereza ukoresheje banki, n'ubundi buryo bitandukanye.

Iri ngiri aba ari isoko ricuruza imiringa igiye itandukanye, n'imitako itandukanye ahangaha niho uba wasanga isaha za zahabu, impeta za zahabu, imiringa yo kwambara, imikufi yo kwambara mu ijosi ya zahabu igiye itandukanyekanye.

Iri ngiri n’ iduka ryiza riherereye ahantu runaka, urabona ko bagufitiye imyenda myiza ku bakobwa b'inkumi cyangwa se abamama, ahangaha bagufitiye imyenda myiza wa kwambara ukaberwa ukagenda ukeye.

Ni iduka ricuruza imyambaro myiza itandukanye ahangaha urareba inkumi, abari babiri, abarikazi bari bamaze guhaha ubundi bishimye nawe uramutse ukeneye kugura imyenda myiza waza ukahagurira.

Iri ngiri ni iduka ryiza cyane, rigari kandi rihagije ririmo imyenda imyambaro myiza, y'ubwoko bwinshi butandukanye, ukeneye kwambara ukaberwa nta handi wayisanga ni hano waza ukabariza, nawe ukihahira.

Iri ngiri ni iduka ricuruza imyenda, aha ngaha turahabona imyenda myiza y'abakobwa, umukobwa waba wifuza kwambara akaberwa, imikufi yo mu ijosi n'ibindi byose ingofero, umukobwa yaza agahaha akambara akaberwa.

Ringiri ni iduka ry'inkweto. Inkweto nziza zigezweho, waba ukeneye udukweto tworoheje twa siporo, ndetse n'izindi nkweto nziza zo kujyana mu birori, mu myidagaduro, n'ahandi hantu hatandukanye. Iri ngiri ni isoko ribigufashamo ukaba waza ukazihaha.

Mu iduka wasangamo imyambaro y'ingeri zitandukanye aha wahasanga inkweto z'ubwoko bwose waba uri umukobwa cyangwa se uri inkumi ahangaha wasanga imyambaro myiza wabasha kwambara ukaberwa.

Iyi ngiyi ni imirimo y'amaboko y'ubudozi aha ngaha bakudodera ibikapu byiza gakondo Kinyarwanda wabasha kuba wahaha ukakajyana ahantu hatandukanye guhahiramo ndetse n'utundi tuntu twinshi.

Iduka ryiza wabasha guhahiramo imyambaro; imyenda igiye itandukanye. Urabona imyambaro y'abakobwa myiza igezweho; ubaye uri umukobwa cyangwa se uri umubyeyi, uri umumama waza ukahahahira.

Iki ngiki ni ikigo cya emutiyene kidufasha kubijyanye no kuba baguha amayinite ugahamagara mugenzi wawe, cyangwa se ukamwandikira kuri murandasi bitewe n'icyo ushaka.

Ahangaha ni iduka ry'imyenda ryarimo riragurirwamo ndetse n'umunyamahanga, ahangaha uramutse ushaka imyenda yo kuba wajyana ahantu aho ariho hose hatandukanye, waza ukahahira imyenda yo kujyana mu nama, mu makwe n'ahandi hantu henshi hatandukanye.

Iri ngiri ni iduka ricuruza imyambaro myinshi igiye itandukanye, waba uri umusore, waba uri umugabo cyangwa se uri umupapa, imyambaro myinshi y'abamama n'iy'abakobwa, uramutse ukeneye guhaha ukambara ukaberwa waza ukahahahira.

Ibi ngibi ni iduka ry'ubugeni bakora imyenda myiza, bagakora ibintu byo mu ibumba, bisanzwe, bacuruza ibikombe bimeze neza byo kunyweramo ibintu bitandukanye.

Mu iduka wasangamo ibintu byinshi bitandukanye nk'imitako yo mu nzu, imitako washyira mu tubati twawe, imikufi yo kwambara mu ijosi, ndetse n'ibindi bintu byinshi byiza byo gutaka ahantu hagiye hatandukanye aha waza ukahagurira.

Iri ngiri ni iduka ricuruza imyenda itandukanye, imyenda y'amakipe ufana n'imyenda yo kwambara ugiye muri siporo buri muntu wese wakenera umwenda mwiza yaza akahagurira.

Iri ngiri ni iduka ry'imyenda myiza cyane, urabona ko ririmo abantu batandukanye n'abanyamahanga, ahangaha ni ahantu ubaye uri umumukobwa cyangwa se uri umumama waza gushakira amakanzu meza, ndetse n'abandi bashaka guhaha indi myenda itandukanye ahangaha wayihasanga.

Iki ni ikigo gishinzwe gucuruza ibinyabiziga, ahangaha urabona ikinyabiziga gitwara imizigo ushobora kuba ushaka ikinyabiziga cyo gutemberamo cyangwa se cyo gukoresha akaza ahangaha iki kigo cyitwa akagera babigufashamo ukamera neza.

Ikingiki ni ikigo cyitwa izina iringiri gicuruza ibinyabiziga by'ubwoko bwiza kandi bugezweho, ushaka kugura ikinyabiziga cyo gutemberamo umuryango wawe cyo kwifashisha, ugiye mu rugendo, ugiye mu kazi ni ahangaha wabisanga.

Iki ni ikinyabiziga wabasha kugura cyangwa se gukodesha gusa ikinyabiziga ubwo gifunitse aba ari ikinyabiziga kigurishwa, ikingiki gitwara abantu gusa ntago gitwara imizigo uramutse ukenera ikinyabiziga cyiza wagendamo wakigura.

Ibinyabiziga byiza bigezweho iki ngiki ni kinyabiziga cyo mu bwoko bwiza bugezweho bw'iterambere wabasha kuba wagura nawe ukifashisha mu rugendo cyangwa gutembera n'umuryango wawe cyangwa se ugiye mu kazi n'ahandi hantu hose waba ugiye mu ngendo zawe zitandukanye.

Ubu ngu ni ubwoko bw'ibinyabiziga byiza bigezweho, ikigo gishinzwe gucuruza ibinyabiziga aha ngaha kiba kihakubereye, urabona ko ari ikinyabiziga kiza cyane gifite ishusho y'umukara, washobora kuba watemberamo n'umuryango wawe ndetse n'inshuti zawe.

Iki ngiki ni ikigo cy'akagera gishinzwe gucuruza ibinyabiziga byinshi bitandukanye, ibinyamitende, amapikipiki, ibinyabiziga by'ibipine bine aha ngahaba abakozi babishinzwe uza ukeneye ikinyabiziga kimwe muri ibyo baragufasha bakakwakira.

Iki ngiki ni kigo cy'Akagera gicuruza ibinyabiziga by'amoko menshi kandi atandukanye, ibinyamitende, ibinyabiziga bindi bisanzwe, ibinyabiziga by'ubucuruzi, ibinyabiziga bitwara imizigo amatoni, ibinyabiziga byo gutemberamo n'ibinyabiziga byo kugendamo ugiye mu kazi.

Ikinyabiziga kiza gishya ushobora kuba watemberamo, ushobora kuba wakwifashisha mu kazi kawe ka buri munsi, kigezweho kijyanye n'igihe aha ngaha hari n'ibikiranga, bakakubwira ko ari miliyoni mirongo itatu n'umunani n'ibihumbi magana atanu.

Uracuruza ibinyabiziga by'ubwoko bwose bitandukanye wakenera kugura ibinyabiziga bitwara imizigo yoibitwara abantu amapikipiki ibinyamitemba n'ibindi byehe bitandukanye umunsi ukeneye gizoguriro.

Iki n'ikinyabiziga kiririmo ikirango cy isoko rya kigali rigurisha ibinyabiziga bishya byo mu bwoko bushya, ahangaha dufite ikinyabiziga cy'amapine ane ugendamo wicaye kikaba gihagaze amafaranga angana na miriyoni cumi n'ebyiri.

Iki ngiki ni ikigo, aba ngaba ni bamwe mu bakozi b'icyo kigo gishinzwe gucuruza ibinyabiziga bitandukanye byiza bigezweho ibinyabiziga byihuta watemberamo n'umuryango wawe cyangwa se wakwifashisha mu gihe waba ugiye ku kazi cyangwa se indi mirimo itandukanye.

Iki ni ikigo cy'akagera gicuruza ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ibinyabiziga bitwara imizigo, ibitwara abantu, amapikipiki, ibinyamitende n'ibindi binyabiziga bigiye bitandukanye. Uramutse ukeneye kugura ikininyabiziga ahangagaha waza ukuhagurira.

Baba bamanitse amafaranga atemewe mu gihe ariya uyabonye nawe ukubona amafaranga atemewe uzirinde kuyakoresha ushobora kubihanirwa kandi unarengana uzabishyikirizwe ababishinze.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa se uburyo bwo gukoresha amafaranga y'amanyamahanga, aha ngaha uza ufite amanyamahanga bakaguha andi manyamahanga cyangwa se ufite amanyamahanga bakaguha amanyarwanda cyangwa se ukaza uzanye abanyarwanda na none bakaguha amanyamahanga.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga. Ahangaha turabona amafaranga y'amanyarwanda, amafaranga y'amanyamahanga, amadorari bitewe nayo ukeneye uraza ukazana amanyarwanda bakaguhereza amanyamahanga cyangwa ukazana amanyamahanga bakaguha amanyarwanda.

Aya ngaya n'ifaranga y'amanyarwanda hariho agaseke karanga ko ari amanyarwanda ayagahe ni amafaranga atanu y'igikoroto ikingiki bacyita igikoroto cy'amafaranga atanu.

umwe ubu uburyo bwo gukoresha amafarangahemayamahanga cyangwa se ku buryo bwo habaho icuruzwa igura n'igurisha ry'amafaranga uramutse ufite amafaranga yo mu gihugu kimwe kigiye gitandukanye uraza kubwohereza ayo mu kindi waba aricyogiyemo cyangwa se bitewe n'kuri buyakoreshe

Aha ngaha hashobora kuba ari muri banki, cyangwa se ari ahandi hantu hatandukanye, turabona ikintu kizwi nka gishi, aho abantu bahagarara bategereje umuntu urimo imbere ari kubakemurira serivise zitandukanye.

Aya ngaya ni amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda hakaba hariho banki nasiyonali y'u Rwanda, akaba ari amafaranga ijana twakoreshaga ari inoti, ubu ngubu hasigaye hariho ibikoroto by'ijana.

Aha ngaha ni amafaranga yama nyarwanda, ashobora kuba ari umuntu uje kuyabikuza cyangwa se uje kuyabika, usanga aya n'amafaranga yama nyarwanda inote nkuru za bitanu(5000rwf) ,bitanu(5000rwf).

Aya ni amafaranga yo mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amafaranga ijana, mu gihe waba uyakeneye wenda ugiye nko gukorera mu Burundi cyangwa se guhahirayo wagenda bakaguhereza amarundi.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga, aho usanga ibiciro by'uburyo amafaranga acuruzwamo bitewe n'Igihugu uko amafaranga yacyo agiye ahenze. Aha ngaha uraza azanye amafaranga yaba ay'abanyarwanda bakaguha amanyamahanga cyangwa se ufite amanyamahanga bakaguha amanyarwanda.

Ahangaha ni mu ikusanyirizo ry' amata. Urabona ko hari n'amagi n'ibindi bintu bikoze mu mafarini byagufasha mugihe waba urimo urafata amata. Hari icyuma cy'amata kiguhereza amata meza aryoshye kandi akonje.

Iri ngiri ni ikusanyirizo ry'amata ndetse n'ibindi bicuruzwa byinshi bagiye bagufitiye, waba ushaka amazi meza, waba ushaka amata yo mu bwoko butandukanye ndetse n'imitobe, aha ngaha wabihasanga.

Ayangaya ni amata y'ubwoko butandukanye aba arimo inkeri, amata aba aryoshye, akoze neza, atunganyije mu buryo bwizewe kandi buboneye bufite isuku.

Umuhanda uri mu ibara ry'umukara, ukaba urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, imodoka iri mu ibara ry'umweru, amapikipiki yicayeho abamotari ndetse n'abo batwaye, bose bakaba bambaye n'ingofero zabugenewe ziri mu ibara ry'umutuku, hirya yabo hakaba abantu barimo kugendera mu tuyira twabugenewe tw'abanyamaguru.

Iki ngiki ni icyuma kiba kirimo ikusanyirizo ry'amata meza ya Mukamira, iki cyuma kiba gifite ubukonje ntarengwa, bafata amata bakayakonjesha bakayaguha ameze neza afite umwimerere, urabona ko bafite n'amazi meza, imitobe iryoshye waza ukabagurira.

Ahantu wasanga ikaragiro ryiza ry'amata, icyuma kibika amata ku buryo bugezweho uramutse ukeneye kugura amata ukaza ukanywa ndetse n'ibindi byo bitandukanye babigufasha ubundi bakabiguha ukamera neza.

Iyi ni inzu wajyamo ukeneye amata meza, ukeneye ibyo kurya bitandukanye byoroheje, ukaba wabifata ugafata amafunguro ameze neza ubundi ugataha umeze neza kandi utekanye wumva uhaze.

Ibi ni ibyo kurya bikorwa mu ifarine, aho bafata ifarini bagashyiramo ibirungo bigiye bitandukanye bagashyiramo isukari, bagashyiramo amavuta, ubundi bakadukorera ibyo kurya mu Rwanda tuzi ku izina rya capati.

Ibingibi nibiva mu ifarini aho bafashe ifarini bakayifata bakayishyira mu mazi, bagashyiramo imisemburo itandukanye bagashyiramo amasukari n'ibindi. Ubundi nyuma yaho bakaza no gutwika bakadukoreramo ibyokurya.

Aha ngaha ni ahantu ushobora kuza gufatira amafunguro ya mu gitondo cyangwa se n'ayandi masaha agiye atandukanye bitewe n'uko waba wumva wabyutse umeze, ukaba wahasanga amata ateguye neza afite ubuziranenge ndetse n'isuku.

Iri ni ikusanyirizo ry'amata aha ngaha wabasha gusanga amata meza ameze neza afite intungamubiri nyishi cyane kandi afite ubuzima buzira umuze afite n'isuku.

Iri ni ikusanyirizo ry'amata ,aha ngaha mu gihe waba uzi ko ukeneye amata y'umwimerere afite intungamubiri yo mu bwoko butandukanye avuye mu cyuma ndetse n'afunitse, amazi meza aha ngaha wabihasanga.

Iri ngiri ni ikusanyirizo ry'amata y'Inyanza, aha ngaha niho wabasha kuba wasanga amata ameze neza kandi aryoshye, yaba akonje cyangwa se atunganyije mu buryo bwose wakifuza bwakugirira umumaro.

Aha ngaha barimo barakwereka uburyo bwo kohereza amafaranga mu gihugu cya Kameruni. Aha ngaha barakubwira bohereza amafaranga ku muntu waba ukoresha uburyo bwo kohererezanya amafaranga cyangwa se utabukoresha aho hose wayohereza akagenda.

Uburyo bwo kubika amafaranga kuri Spenn cyangwa se, kuba wakizigamiraho kugira ngo ejo cyangwa ejobundi uzayakenere uyakoreshe ukomeza gutera imbere, ndetse no kwiteza imbere mu buryo butandukanye bwawe.

Ubu ni uburyo bugaragaza, uburyo habayeho iyoherereza. Barohereje nk'amafaranga, boroheje ibintu bitandukanye, uru nguru ni urupapuro rugaragaza koherezwa.

Aha ngaha barakubwira bati sangiza inshuti yawe ibyiza bya Sipini. Ubatumire utsindire magana atanu. Kuri buri nshuti utumiye. Aha ngaha uhajya ubwawe wiyandikishije, ubundi ugahereza umuntu aho azajya akanda, yakwiyandikisha bakaguhemba magana atanu.

Ahangaha barakubwira ngo hitamo wasake, andika nimero za konteri yawe ushyiremo amafaranga wishyura ubundi wemeze. Ahangaha uba ugiye gukora ibikorwa bitandukanye , nko kugura umuriro, cyangwa gukora ibindi bikorwa bitandukanye.

Ubu ngubu ni uburyo bushya bwa banki, bakubwira injira muri konti yawe ugakanda gukomeza, ubundi ukinjiramo ugakurikiza amabwiriza ukareba ibiri muri konti yawe byaba amafaranga ariho n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Aha ngaha ni ahantu waza dukeneye kuba wakwishyura amafaranga agiye atandukanye, aha bigufashamo ikigo gishinzwe kugufasha kwereka ukuntu wakwishyura.....

Ubungubu ni uburyo bw'iyohereza n'iyakira ry'amafaranga avana hamwe ajya ahandi ava ku muntu umwe ajya ku wundi cyangwa se ikoranabuhanga rigufasha kubikora ku buryo bwiza kandi buogeye.

Aha ngaha barakubwira ngo:" Urakaza neza ku kigo gishinzwe ubufasha butandukanye bw'itumanaho." Kuba wakohereza amafaranga, kuba wakwishyura ibyo usabwa kwishyura, ukishyura amazi, ukishyura umuriro, kuba wagura ibintu bitandukanye, kuba wakwishyurwaho nawe no kuba wafata inguzanyo.

Aha ngaha barakwereka uburyo amafaranga arimo aroherezwa. Amafaranga ari koherezwa, bakerekana ko yoherejwe, bikiri muri gahunda ubundi n'aho aba yagiye byarangiye.

Ahangaha ni uburyo baba bakweretse kuba ugiye kohereza amafaranga ahantu runaka ,ahangaha ukanda rimwe kugira ngo amafaranga ubone kuyohereza aho yaba agiye kujya.

Aha ngaha ni ukwishyura ifatabuguzi, wakoresha ureba ibintu byinshi bitandukanye, aba barakubwira ngo emeza gatanu, ubundi zamuka na siporo. Abantu bakunda kureba umupira, wishyura ifatabuguzi ubundi ukazajya ureba.

Hano ni uburyo bw'ikoresha icyo twita emutiyene, uburyo bw'amafaranga yaba ari kuri telefoni ngendanwaha urareba wakanze akanyenyeri ijana mirongo inani na kabiri ukareba amabwiriza akurikira bitewe n'icyo ukeneye gukora.

Uru nguru ni urupapuro rw'imisoro n'amahoro, iki kikaba ari icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro, aha ngaha iyo wagiye ku kigo gishinzwe imisoro n'amahoro ukishyura imyenda yose urimo, uru ni rwo rupapuro baguhereza.

Uru ni rupapuro nyemezabwishyu bw'umusoro. Aha ngaha iyo umaze kugenda ukajya ku rubuga rw'irembo cyangwa se ku kigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ukababwira ati bakurebere imisoro yawe igezemo ndetse niba nta n'ideni ufitemo cyangwa se ibihano wahawe kwishyura, baguhereza runo rupapuro ugataha.

Uru nguru ni urupapuro nyemezabwishyu rw' umusoro, aha ngaha uba wagiye ku kigo cyitwa irembo bakakwereka imisoro yawe waba utarishyura ubundi ukishyura kugira ngo batazanagushyiriraho ibihano mu gihe warengeje igihe cyo kwishyura, ubundi bakaruguhereza ukarujyana.

Uru nguru ni urupapuro nyemezabwishyu rugaragaza ko wasoje kwishyura imisoro. Aha ngaha uragenda ku irembo, ukishyura imisoro yawe bakakurebera iyo urimo, ukishyura bakaguhereza urupapuro nyemezabwishyu.

Uru nguru n'urupapuro rw'ubwishingizi ahanga ngaha umuntu aba yagiye agashinganisha ibyiwe yaba imitungo, yaba ibinyabiziga yaba ibindi bintu byiwe akora araza akashinganisha bakamuha urupapuro rugaragaza ko yagiye mu bwishingizi.

Uru nguru ni urupapuro rugaragaza icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro, aha ngaha uragenda ku kigo gishinzwe imisoro n'amahoro bakareba ku mibare yawe niba nta mwenda irimo, mu gihe waba warayishyuye bakaguha urupapuro rugaragaza ko nta mwenda ubarimo.

Uru nguru ni urupapuro rugaragaza ubwishyu bw'imisoro n'amahoro, aha ngaha ujya ku kigo gishinzwe kwishyura imisoro n'amahoro bakaruguhereza, mu gihe bamaze kureba ko ntadeni urimo cyangwa se utasigayemo umwenda uwa ari wo wose.

urunguru ni urupapuro rugaragaza ko uba wamaze kwishyura ugiye kujya muri tarama rwanda aha baravuga bati niba ufite ikibazo hamagara kuri nimero zeru karindwi umunani kariwi karindwi gatanu icyenda gatatu rimwe gatandatu ahangaha urubuga wabandikiraho ni tarama rwanda na biriya urimo urareba .

Ubungubu ni ubucuruzi bw'amafaranga, turabonaho ibiciro byinshi bigiye bitandukanye, ibyo kugurisha n'ibyo kugura. Ahangaha ho bitewe n'amafaranga ufite cyangwase bitewe n'amafaranga uzanye, ureba ku ibiciro ubundi ukamenya icyo ukeneye ari ikihe.

Ibingibi ni ibiciro by'ukuntu amafaranga aba ahagaze mu gihe ugiye kuyagura cyangwa se kuyagurisha, mu gihe ufite amafaranga yo mu gihugu kimwe ushaka ayo mu kindi gihugu, haba harimo ukugura cyangwa se ukugurisha bitewe n'ibyo ukeneye ibiciro biba bihari.

Ubungubu ni ubucuruzi bw'amafaranga y'abanyamahanga ahangaha ushobora kuba ufite amafaranga y'amanyarwanda ushaka abanyamahanga uragenda bakabigukorera cyangwa se ufite amanyamahanga nanone ushaka abanyarwanda nabyo babigufashamo.

Ubu ngubu ni uburyo bw'ikoresha amafaranga y'amanyamahanga, aha ngaha barimo barayabara, ushobora kuba wayashaka afite Amanyarwanda ukagenda bakayaguha, cyangwa se ukagenda ujyanye Amanyarwanda bakaguhereza amanyamahanga bitewe n'aho uzayakoreshereza.

Iyingiyi ni imbonerahamwe igaragaza ibiciro by'uko amafaranga agurishwa cyangwa se agurwa bitewe n'igihugu uko bigenda birutanwa, ayo waba ushaka kuyagura cyangwa se nawe kuyagurisha.

Ayangaya ni amafaranga y'amanyamahanga, ubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'amanyamahanga. Ushaka ufite amanyamahanga wayazana bakakuguranira bakaguhereza amanyarwanda cyangwa se ufite umunyarwanda ukayazana bakaba baguha amanyamahanga akaba ariyo ukoresha.

Ubungubu ni uburyo bw'ihinduranya cyangwa se bw'icuruzwa ry'amafaranga. Haba hariho igihugu cy'ayo mafaranga, hakaba hari uburyo agurwa n'uburyo agurishwa. Ibiciro biriho bitewe n'ayo akeneye, uraza ukabireba ubundi ukagura cyangwa se ukagurisha.

Ubu ngubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'abanyamahanga, aha ngaha ufite amafaranga y'amanyarwanda ukeneye amanyamahanga urayazana bakaguhereza cyangwa se ufite amanyamahanga akeneye abanyarwanda bitewe n'ayo ushaka gukoresha cyangwa se ayo ufite byose babigufashamo.

Ubungubu ni ubucuruzi cyangwa se ikoreshwa ry'amafaranga y'Abamanyamahanga, urabona ko ahangaha bashyize mu kuma ashinzwe kubara amafaranga, aha ngaha amafaranga ayariyo yose waba ufite, bashyira muri kano kuma bakakubarira bakakubwira ngo nayangaya cyangwa se, bakakubwira ibindi.

Iki ngiki ni icyuma kidufasha kubara amafaranga aha ngaha barimo barabara amafaranga y'amanyamahanga, umuntu ashobora kuba aje kuyabitsa cyangwa se kuyaguranisha ashakamo amanyarwanda aha ngaha byose barabigufasha.

Ubugubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'abanyamahanga, buroroshye cyane kuko mu gihe ufite amafaranga y'abanyamahanga, uragenda ku kigo kibishinzwe bakakuguranira bakaguhamo amanyarwanda cyangwa se waba ufite amanyarwanda bakaguha amanyamahanga bitewe n'icyo ugiye kuyakoresha.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga, aha ngaha urabona ibiciro by'ukuntu amafaranga wabasha kuba wayagura cyangwa se wayagurisha bitewe n'igihugu ugiye kuguramo cyangwa se bitewe n'amafaranga y'igihugu ushaka kugura, cyangwa se bitewe n'amafaranga y'igihugu ushaka kugurisha bitewe ni igahunda ugiye kuyakoreshamo.

Uburyo bwo gukoresha amafaranga y'amanyamahanga cyangwa se ubucuruzi bw'amafaranga. Aha ngaha niho ushobora kujya ufite amafaranga agiye atandukanye ukareba ibiciro by'andi wakenera uko biba bihagaze byose biba biriho.

Ubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga mpuzamahanga, aha ngaha iyo ufite amafaranga y'amanyarwanda uraza bakaguha amanyamahanga cyangwa se waba ufite amanyamahanga ukaza bakaguha amanyarwanda bitewe n'ayo wowe ukeneye.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga kugura cyangwa se kugurisha bitewe n'icyo waba ukeneye. Ukeneye kuyagura haba hari ibiciro bitewe n'ay'igihugu ukeneye cyangwa se ay'igihugu ushaka kugura no kugurisha.

Ayangaya ni amafaranga y'amanyamahanga turimo turareba barimo barayabara hakaba hari uburyo bwo gukoresha amafaranga y'abanyamahanga uramutse um ufite nk'umunyarwanda ukeneye abanyamahanga babigufashamo bakaguhindurira nk'aya mafaranga turimo turareba niamafaranga yo mu buhinde.

Aya ngaya ni amafaranga y'amanyamahanga hakaba hari uburyo mu Rwanda ni urugero wakoresha amafaranga y'amanyamahanga uramutse waravuye mu mahanga ukaza uyazanye cyangwa se barayakwoherereje, hari ahantu ujya bakakuguranira bakaguhamo amanyarwanda akaba ariyo ukoresha,

Ubucuruzi bw'amafaranga ahangaha uba ubona bitewe n'ayo ushaka kugura cyangwa se kugurisha ukayafata ukaza bakakugurira cyangwa se bakakugurishiriza.

Ubu ni uburyo bwo gukoresha amafaranga y'amanyamahanga. Uramutse ukeneye amafaranga y'abanyamahanga cyangwa se ufite amanyamahanga, wayazana ahangaha bakaguhereza andi waba wifuza bitewe naho ugiye kuyakoreshareza.

Ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa se imikoreshereze y'amafaranga y'amanyamahanga. Aha ngaha uramutse ukeneye amafaranga y'amanyamahanga wenda niba ufite amanyarwanda wayazana bakayaguhereza cyangwa se ufite amanyamahanga ukaza bakaguha amanyarwanda, cyangwa se ufite amanyamahanga ukaza bakaguha amanyamahanga bitewe n'aho uri buyakoreshereze.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga, mu bihugu bigiye bitanduknaye by'isi. Bitewe n'ibyo ukeneye, bitewe n'aho ushaka kuyagurisha cyangwa kuyagura, ibi ngibi biciro ubisangaho.

Ikingiki n'icyapa kikwereka aho hakorerwa ibi bintu bikurikira; kuba waba washaka kohereza amafaranga mu mahanga, cyangwa se kuba ubasha kwakira ayo bakohereje, bakohereje amafaranga wagenda ahangaha bakabigufashamo, cyangwa se ufite amafaranga y'amanyarwanda ushaka amanyamahanga, cyangwa ufitemanyamahanga ushaka amanyarwanda.

Ahangaha urabona ko hariho icyapa cyo guhinduranya ndetse n'ibyuma byabugenewe genda ufite ikarita yawe iriha amafaranga ugakozamo ubundi ugashyiramo koti yawe ukabikura amafaranga yawe ahangaha naho bakagufata amafaranga ufite ari abanyamahanga bakagu abanyarwanda cyangwa se ufite abanyarwanda bakaguha amanyamahanga.

Icyapa kikwereka ahabera imihinduranyirize y'amafaranga cyangwa se ubucuruzi bw'amafaranga bitewe n'amafaranga ufite urayazana hano, waba ushaka abanyarwanda bakayaguha se cyangwa waba ushaka abanyamahanga bakayaguha bakayaguha bitewe n'aho uri bu kuyakoreshereza.

Aha habera ihinduranya ry'amafaranga bitewe n'ayo ufite cyangwa se bitewe n'ayo ukeneye, urayazana bakaguhindurira bakaguhereza andi wifuza kandi ukeneye bitewe n'aho ugiye kuyakoreshereza.

Aha ngaha bagufasha ibintu byinshi bitandukanye. Kubitsa amafaranga, kohereza amafaranga, kubikura amafaranga, kohereza amafaranga mu mahanga, ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ahangaha wabihasanga. Nk'ubu ubikeneye waza ukabihabariza.

Aha ngaha ni aho bakora ubucuruzi bujyanye n'amafaranga ushobora kuzana amafaranga bakaguhindurira, ukazana amanyamahanga bakaguha amanyarwanda cyangwa ukazana amanyarwanda bakaguha amanyamahanga bitewe n'ayo ushaka cyangwa se bitewe n'aho uzayakoreshereza.

Aha ngaha bagufasha ibikorwa byinshi bitandukanye bakaba baguha visa bakaguhereza tike y'indege, bakaba bahindura amafaranga bakaguhereza andi waba ukeneye cyangwa se bagufasha kohereza amafaranga mu mahanga cyangwa se kuguha ayo waba wohererejwe.

Ahangaha ni ahantu ushobora kuba wazana amafaranga y'abanyamahanga bakagukora icyo bita kuguhindurira bakaguha amanyarwanda cyangwa se ukaba wazana amanyarwanda nabwo bakaguha amanyamahanga byaterwa n'icyo wowe waba ushaka.

Iyi ngiyi ni inyubako nini cyane ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, turabona aho bacuruza imyenda, imyenda myiza rwose. Tukabona n'aho bacuruza ubucuruzi bw'amafaranga, yaba amanyamahanga cyangwa se amanyarwanda. Uzana amanyarwanda bakaguha amanyamahanga cyangwa se ukazana amanyamahanga bakaguha amanyarwanda.

Aha ngaha ni ahantu bakorera ibijyanye n'ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa se ihinduranya ry'amafaranga mu gihe waba ufite amafaranga y'amanyarwanda ukeneye amanyamahanga cyangwa se ufite amanyamahanga ukeneye amanyarwanda bitewe n'aho ugiye kuyakoreshereza, aha ngaha baragufasha.

Ubu ngubu ni ubucuruzi bw'amafaranga. Aha ngaha haba hariho ibiciro by'ukuntu wagura cyangwa se ukagurisha amafaranga yo mu bihugu bigiye bitandukanye, bitewe wowe nayo uba ukeneye uraza ibiciro uba ubibonaho ukagura cyangwa se ukagurisha.

Ihinduranya ry'amafaranga mu gihe ufite amafaranga y'amanyarwanda ukeneye amanyamahanga cyangwa se ufite amanyamahanga ukeneye amanyarwanda, mu gihe waba ukeneye ibintu bijyanye n'amafaranga, ubucuruzi bw'amafaranga butandu...

Aha ngaha niho usanga utubati twiza tugezweho, intebe nziza zifite imisego isa neza, kandi wicaraho ukumva nturimo uravunika, intebe zikozwe mu buryo zishobora kuba zanakuvura umugongo.

Ubu ngubu ni uburyo bwo kuba wataka mu nzu yawe hagasa neza, inyubako yawe igasa neza ku buryo n'uwagusura wese abona ko wateye imbere kandi ujijutse, usobanukiwe, uri intore nziza cyane.

Izi ngizi ni intebe nziza zo mu nzu ushobora kuba wagura ugashyira mu nyubako yawe, ubundi hagakomeza gasa neza imbere y'imbaga y'abantu bagiye batandukanye. Izi ngizi haba hari ahantu henshi bazikora, ukeneye kuzikora wagenda ukazikoresha.

Iyi ni iyindi nyubako nziza irimo ubusaswa bwiza bugezweho bw'iterambere, ushobora kuba ari inzu ikodesha yo gukodesha uwaza nawe ukabamo.

iyingiyi ni imeza nziza iri mu mbaho nziza zifite amabara meza asa neza umweru n'umukara, hakaba hateretseho imitako myiza ituma hakomeza kugaragara neza n'akabati keza ko gushyiraho insakazamashusho kuba bareberaho ibintu bitandukanye, amakuru n'ibindi.

Aka ngaka ni akabati keza, gakoze mu mbaho, nawe uramutse ukeneye gukoresha utubati twiza, bashobora kuba bagufasha, bagakora ibitanda byiza, intebe nziza, n'ibindi bintu byinshi byiza by'ubugeni bigiye bitandukanye babigukorera.

Ibingibi ni ibyicaro byiza intebe zimeze neza, ndetse n'imeza igezweho iriho n'ikirahure, ahangaha ushobora kuba waza ukicara urimo urasangira n'umuryango wawe, cyangwa se urimo urasangira n'inshuti zawe.

Utuntu ni utubati twiza washyira mu nzu yawe ahantu hagiye hatandukanye uramutse ukeneye gukoresha utubati hari ahantu ugenda ukanyuraho bakora ibintu by'ubugeni n'ibintu byo kubaza bakagukorera.

Aha ngaha ni ahantu heza ho kurira uru ni ururiro rwubatse neza. Ameza ameze neza ndetse n'udutebe twiza twokwicaraho muri umuryango cyangwa se muri inshuti, mugafata ifunguro murimo muranaganira bikamera neza.

izi ngizi n'intebe nziza wakwicaraho, akenshi usanga ahantu hakorerwa zino ntebe bakora n'ibitanda byiza bakaba baguhereza utubati tugezweho; izi ntebe ni nziza zigezweho zizakuvura umugongo cyangwa se zikagufasha kurambura umugongo.

Aha ngaha usanga bakora ubugeni, imirimo y'amaboko, bakora utubati mu mbaho nziza, bagakora utubiko twiza wabikamo, utubati tw'imyenda, utubati dutandukanye two mu gikoni n'ahandi.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza iri mu Mujyi wa Kigali ifite ishusho y'uruziga, rwose rukeye amabara meza urumuri rwiza, iyi ngiyi ni inyubako wajyamo ugasangamo ibintu byose wakwifuza muri ubu buzima, aha ngaha ni ahantu heza ho gusohokera.

Iyi ni inyubako nziza isa neza igezweho yubatse kuburyo bwiterambere, usangamo ibintu byinshi kandi byiza bitandukanye, ibyumba byo kuryamamo byiza, urukarabiro rwiza rugezweho rwiterambere, intebe nziza, imeza nziza igezweho.

Iyi n'inyubako nini kandi nziza iriho amabendera y'igihugu cy'U Rwanda, ushobora kuhasangamo ibintu byinshi byiza bitandukanye ibyokurya by'amoko yose kandi biteguye neza, ibyo kunywa by'amoko ateguye neza, n'ahantu ho kuruhukira.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza iteguye neza ku buryo bugezweho bw'iterambere haba harimo intebe nziza ameza asa neza, amabara meza wakishimira kuba waza gukoreramo ibintu byawe bitandukanye cyangwa se guturamo.

Aha ngaha ni ahantu heza waruhukira, wasohokera, ukaza ugafata ibyo kurya byiza bitunganyije neza, ukoga amazi asa neza ukajya mu mazi ugakaraba hano mu mazi magari, ukaruhuka ugakora imyitozo ngororamubiri yo mu mazi.

Inyubako nziza cyane ihenze iri mu buryo bugezweho yubatse mu buryo bw'iterambere urabona ko hari urukarabiro rwiza cyane wakaraba urinno kurambura umugongo ,amaguru n'ibindi bice by'umubiri ukagororoka ugafata amafunguro ukaryama ukaruhuka .

Ikingiki ni igikoni cyiza cy'uburyo bw'iterambere ahangaha ni ahantu batekera heza h'iterambere hagezweho harimo ibikoresho byiza byabugenewe bitewe n'icyo waba ushaka gukora bituma imyotsi itiyongera mu gikoni n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye .

Aheza wabasha gusohokera hari amafunguro ateguye neza. Imbuto zigufasha gukomeza kugira intungamubiri. Ibyokurya byiza biteguye neza: ibyubaka umubiri, ndetse n'ibirinda indwara umubiri. Aha ngaha wahaza ukahafata amafunguro meza.

Akangaka ni agace runaka kagezweho keza, tubonamo kanyuramo abantu karimo n'umuhanda ugendwamo n'ibinyabiziga, ahangaha tukabona ipikipiki iriho umuyobozi uyiyoboye ayicayeho.

Iyi ni inyubako nini nziza yubatse ku buryo bw'uruziga, bayita convention, niko tuyizi yitwa, ubundi ushobora gusangamo ibintu byiza, amafunguro ateguye neza, n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ahangaha ni ahantu heza wicara witaruye ureba imigi itandukanye, ureba imisozi igize u Rwanda mu gihe waba uri gufata ako kunywa kawe kameze neza, gakonje cyangwa se gatunganyije mu bundi buryo.

Iki ngiki ni icyumba cyiza mbera byombi cyaberamo ibintu bitandukanye, gusa akenshi usanga aha ngaha ari ahantu haberamo inama, uko bimeze hari nk'abantu bari bamaze kuganiriramo kuko urabona hari harimo amazi, icyumba gifite intebe nziza ndetse n'ahantu heza ho gutereka ibintu byawe waba wazanye nka mudasobwa.

Aha ni ahantu heza nyaburanga hari ubusitani bwiza, utuzu twiza two hanze, udutanda twiza two kuryamaho, amazi yo kwinjiramo ukaba uruhura mu bwonko, uruhura ibitekerezo byawe buri munota ku wundi.

Umuhanda uri mu ibara ry'umukara, ukaba urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, imodoka iri mu ibara ry'umweru, amapikipiki yicayeho abamotari ndetse n'abo batwaye, bose bakaba bambaye n'ingofero zabugenewe ziri mu ibara ry'umutuku, hirya yabo hakaba abantu barimo kugendera mu tuyira twabugenewe tw'abanyamaguru.

Ahantu heza ushobora kuba wasohokera wowe n'abawe, ubundi ushobora kuhasanga ibintu byiza bigiye bidatukanye, amafunguro meza, ibyo kunywa byiza, biteguye neza ubundi mukishimana wowe n'abawe.

Aha ngahatu ni ahantu heza nyaburanga baba bafite ibintu bitandukanye, bagufitiye ibyo kurya byiza bitunganyije neza ibyo kunywa imitobe myiza iryoshye, ndetse n'urukarabiro rwiza rw'iterambere rufite amazi asa neza, abari arimo n'umuti atakugiraho ikibazo icyo ari cyo cyose, ukaba wakoreramo n'imyitozo ngororamubiri.

Umwe mu bakozi bahantu runaka, inzu nziza ushobora gusangamo ibyo kurya byiza bitandukanye, uburyamo bwiza uburuhukiro bwiza ubwogero bwiza.

Inyubako nziza waza kwiyakiriramo bakakwakira ushobora kuza uri kumwe n'inshuti zawe cyangwa se umuryango wawe, haba hari ibyo kurya byiza, ibyo kunywa byiza bakabakira ubundi mugakora gahunda yanyu ku buryo bubanogeye.

Iki ngiki ni ikigo gitanga ubwishingizi bugiye butandukanye, ubwishingizi bw'ibintu, ubwishingizi, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, uramutse ukeneye ubwishingizi, aha ngaha waza ukakira ubwishingizi.

Iyi ngiyi ni inyubako nini ifite ibirahuri byiza, ikaba ifite icyapa kigaragaza ko ari ahantu batanga ubwishingizi, uramutse ushaka ubwishingizi ngikiriya icyapa ugenda hariya, bakabugu urabona ikindi cyapa kigaragaza icyuma kibikura amafaranga mugihe uyafite ku ikarita yawe.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza y'ikigo gishinzwe ubwishingizi ukeneye ubwishingizi waza kuri kino kigo bakagufasha urabona ko bafite n'imyanya myinshi kandi migari yo gushyiramo ibinyabiziga mu gihe waba uje ikinkinyabiziga ukaza ukishinganisha.

Ikigo gitanga ubwishingizi. Uramutse ukeneye ubwishingizi bwo gushinganisha ibyawe n'abawe ubundi ukabaho ufite ikizere gishikamye, mu gihe waba uzi neza ko ibyawe bishinganye.

Iyi ngiyi ni inzu y'ubucuruzi bw'ibintu byinshi bitandukanye, bidufasha kuba wasangamo aho wasanga ubwishingizi bwa banki, aho wajya k'urubuga rw'irembo bakagufasha ,imbuga nyinshi zitandukanye bakaguha ,bakagufasha kwiyandikisha mubantu bazajya mu mahanga ,bakagufasha kubitsa amafaranga yawe no kuyohereza ahantu hatandukanye no kuyabikura.

Iki ngiki ni ikigo kinini; inyubako nziza zigezweho, hakaba harimo ikigo gishinzwe gutanga ubwishingi, uramutse ukeneye ubwishingizi; ugashinganisha abawe, umuryango wawe iki ngiki cyagufasha ukaba waza nawe ukakira ubwishingizi

Iyi ni inyubako nini ikoreramo imirimo yo kuba wajya gushaka ubwishingizi ugashinganisha imitungo yawe, ibinyabiziga byawe, n'umuryango wawe n'ibindi bintu byawe byose bigahora biri mu bwishingizi.

Iki ni ikigo gitanga inguzanyo y'ubuzima, ahangaha uramutse ukeneye inguzanyo, ushobora kuza bakayiguha ugashinganisha urubyaro rwawe, ugashinganisha abawe, ukamenya ko bahari bashinganye.

Iki ngiki ni kigo gitanga ubwishingizi, uramutse ubikeneye ubwishingizi ushobora kuba wahamagara kuri nimero zikurikira, ikimenyetso cyo guteranya magana abiri mirongo itanu, karindwi, umunani, umunani, kane gatanu, kabiri kabiri, umunani, icyenda, bakakubwira ibindi waba ukeneye cyangwa se andi makuru.

Abantu bari kukazu mu inzu igurisha amayinite, abayobozi noneho bagiye nko kubikuza cyangwa kubitsa cyangwa kugura ikarita yo guha....

Iki ngicyi ni ikigo gitanga ubwishingizi uramutse ukeneye ubwishingizi ushinganisha abawe, ushinganisha imitungo yawe, ushinganisha ibinyabiziga byawe n'ibindi bintu byinshi bitandukanye aha ngaha waza bakaguha ubwishingizi kugira ngo ntihazagire ikibazo kibonekamo.

Ni inyubako nziza yubatse ku buryo bw'iterambere kaba ari ikigo gitanga ubwishingizi ku bantu baba bakeneye ubwishingizi butandukanye bw'ibinyabiziga byabo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Iki ngiki ni kigo gitanga ubwishingizi ku bantu, umuntu ushaka ubwishingizi, iki ni ikigo kigufasha kuba wabona ubwishingizi butandukanye, ndetse ugashinganisha abawe n'umuryango wawe.

Iyi ni inzu y'ubwishingizi ahangaha uraza bakaguheza ubwishingizi. Ugashinganisha ibikorwa byawe, ugashinganisha amazu yawe, ugashinganisha umuryango wawe n'abana bawe.

Inyubako nziza kandi ndende ngari ifite icyapa cy'ubururu ndetse n'amagambo y'umweru, ikingiki ni ikigo cy'ubwishingizi ahangaha uramutse ukeneye ubwishingizi waza ukishinganisha, ugashinganisha abawe ndetse n'imitungo yawe.

Ikingiki ni ikigo cy'ubwishingizi, ahangaha uramuste ukeneye ubwishingizi, gushinganisha abawe, gushinganisha ibyawe, imitungo yawe, ibinyabiziga cyangwa se umuryango, ahangaha ni ikigo cy'ubwishingizi.

Aha ngaha barakubwira, uvugana n'ikipe uyu munsi ku bijyanye n'amafaranga. Aha ngaha hashobora kuba hakorerwa ibikorwa byo kubitsa amafaranga ndetse no kuyabikura muri banki runaka.

Ahangaha baratwereka ishusho y'umuntu wishimye ashimishijwe n'ikirere uyu muntu? ahangaheha barakubwira ati baraguhereza inyungu ingana na cumi na rimwe ku ijana mu kwezi y'ibyinjiye ubwo n'amafaranga ya miliyoni n'ibihumbi magana abiri cyangwa se munsi yayo.

Iyi ngiyi ni banki y'abaturage uyu nguyu ni umwe mu bakozi bari gukora imirimo itandukanye aha ngaha bari kuvuga bati: '' Kora ahantu heza ku Rwanda ku bantu bikagenda neza.'' Iyi ngiyi ni banki ishobora kuba yagufasha ikaguha nk'inguzanyo ukaza ukaba nawe wakubaka inzu nziza bakaguha uburyo uzajya ugenda wishyura.

Kaburimbo irimo imodoka ifite ibara ry'ivu, hirya yayo hubatse inzu iri mu marange y'umweru ndetse n'umukara, inzu ikikijwe n'igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye, hariho icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, ndetse n'ikindi cyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara.

Ku munsi mukuru w'ivuka rya Yesu, bazanye uburyo bwo kongeza cyangwa se kuba bashyira ibintu ku giciroro gitoya waba ukeneye, ubundi ukaza nawe ntibigucike.

Abangaba ni bamwe mu bakozi b'ikigo cyitwa unguka ahangaha bagufasha kuba bakubikira amafaranga yawe cyangwa se bakakwereka uburyo wakunguka mu bikorwa byawe runaka waba ukora.

Uburyo bwo kubikura amafaranga ukoresheje ikarita, ushobora kuba ufite amafaranga atari mu ntoki ari kuri konti ya banki yawe, ubundi iyo ufite ikarita yawe ngendanwa, wamara gukora ibyo ukora cyangwa se uyakeneye ukagenda ugashyira mu byuma byabugenewe, ugakanda imibare n'imibare y'ibanga ubundi ukayabikuza.

Banki ikubwira ngo ugera ku ntego bakakubwira utifite intego yo gukora ubukwe, fungura konti yo kwizigama muri iyi banki iguhesha inyungu umunani ku ijana ku mwaka ahaha wakora iyi konti urabona ko yagufasha.

Uyu nguyu ni umwe mu bakozi b'ibigo bishobora kuba bitanga inguzanyo aha ngaha bati fata inguzanyo ku buryo ukora imishinga yawe neza, aha ngaha ukeneye ko baguha inguzanyo bakora imishinga yawe neza ukagura ibinyabiziga ukubaka amazu barayiguha.

Iyi ni banki y'urwego aha ngaha barakubwira ngo baho nk'umuhinzi w'inzozi ugakuza ibigori ku nguzanyo. Aha ngaho baguha inguzanyo ukagenda ugahinga ibigori ubundi nawe ugasarura.

Ngo iyubake na I and M Banki, iyi ngiyi ni banki yagufasha kwiyubaka, ni inde wemerewe inguzanyo? aha ngaha ushobora kubahamagara cyangwa se ukumva icyo kiganiro amasaha baba bayashyizeho, ukamenya ngo ni inde wemere inguzanyo, ukaba wagenda nawe bakayiguha.

Iki ni kimwe mu bigo bigisha gutwara ibinyabiziga, uyu nguyu ni umwe mu bakozi bacyo aha ngaha baravuga bati, aka inguzanyo ya IGA usohoze umugambi wo kwiga gutwara ibinyabiziga, ahangaha baguha inguzanyo yo kubyiga.

Iri ngiri nisuku ririmo ibintu byinshi bitandukanye, turabo ibihingwa byize bagasarura, tukaba tureba imyumbati imbere yacu, ndetse n'imbuto nziza ziryoshye kandi ziryoheye ijisho amacunga n'izindi zigiye zitandukanye.

Abacuruzi batandukanye bafite imifuka iremereye y'ibiro byinshi cyane by'ibirayi, Aha ngaha ukeneye kugura ibirayi byiza wateka rwose yenda ugashyira mu mavuta ugateka ubundi ukarya ukamera neza.

Iringiri ni isoko ry'imyenda myinshi itandukanye by'ubwoko butandukanye imitako ,ibintu biboshye wabasha kuba wakambara ku maboko n'udukinisho tw'abana ibintu byinshi bitandukanye waza ugahahira hano .

Iyi ni inyubako nini ngari ifite ibirahure byiza. Ikorerwamo ubucuruzi bwinshi butandukanye bitewe n'icyo bushaka kugura cyangwa se guhaha icya aricyo cyose, iyi ni inyubako iba ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye.

lri ngiri ni isoko ryo guhahiramo ibintu byinshi bitandukanye, ibimera byo kurya, imboga z'ibyatsi, imyumbati, ibijumba n'ibindi bintu byinshi bitandukanye n'ibirungo.

Ni isoko wasangamo ibintu byinshi bitandukanye, ibiryo by'amoko yose, ukaba wagenda mu rugo ugakora amafunguro ameze neza, wasanga ibirungo byo gushyira amafunguro, wahasanga inyanya zimeze neza, wahasanga ibiribwa by'amashu n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iri ngiri ni isoko ryiza wazamo guhahiramo ibintu byinshi by'imyambaro igiye itandukanye, waba uri umubyeyi, ukenyeye, gukenyera neza ukaberwa, aha ngaha waza ukahahahira imyenda myiza yo gukenyera.

Ahangaha umubyeyi urimo uracuruza imbuto zitandukanye; imyembe, amapera n'izindi mbuto nyinshi cyane kandi nziza ziryoshye zihingwa n'ahangaha mu Rwanda turazihinga, urabona ko afite umukiriya arimo aramupfunyikira.

Iri ngiri ni isoko uzasangamo ibyo kurya byinshi bitandukanye, ibihingwa bidatunganyije bava gusarura bakazana, ndetse n'ibyo gucisha mu nganda, byose urabihasanga, usanga ibya kinyarwanda ibinyamahanga n'ibindi byinshi bitandukanye.

Iri ngiri ni isoko wahahiramo ibintu bigiye bitandukanye wakenera mu buzima, aha ngaha wahahira inyanya, intoryi ndetse n'ibindi birungo bigiye bitandukanye wakenera gushyira mu mafunguro yawe, ushobora kubabaza ugahaha.

Urujya n'uruza rw'abantu bagiye mu mirimo myishi itandukanye, Hakaba harimo inyubako wajyamo ugasangamo amafunguro meza ateguye neza. Ibyo kunywa byiza biteguye neza yaba ibisembuye cyangwa se ibidasembuye bitewe n'ibyo ukunda.

Iri ngiri ni isoko rinini cyane rigari, ririmo ibintu byiza nyaburanga, ibihingwa byiza basaruye bimeze neza, byeze neza, ibyo kurya byiza, n'ibitoki byiza inyanya nziza intoryi nziza, ibyo kurya byinshi bitandukanye. Ahangaha waza ukihahira ukagenda ugasangira n'umuryango wawe.

Ni inyubako ikorerwamo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, hakaba harimo ibigo by'ubucuruzi byinshi, hakaba harimo amaduka menshi, inzu iherereye mu mujyi uramutse haribyo wifuza kugura ahangaha waza ukabarizamo.

Ubu ngubu ni uburyo bwiza wakoresha wishyura na momo ukaba umaze kugenda ahantu hagiye hatandukanye, guhahira ahantu hatandukanye, ukaba wakanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe urwego ubundi ugakurikiza amabwiriza.

Ikingiki ni ikigo gishinzwe itumanaho kikabidufashamo, ahangaha barakwereka uburyo bwo kwishyura bwiza bworoheje aho ukanda akanyenyeri rimwe karindwi zeru urwego ukaba wabasha kwishyura.

Ubu ngubu ni ubucuruzi ubuhahirane bw'ibintu byinshi bigiye tandukanye, bitewe n'ibyo wahashye hakaba hari uburyo bwo kwishyura kuri kode y'umucuruzi, uburyo bwiza bworoshye kandi bugezweho, hakaba hari uburyo baguha inyemezabwishyu, bakaguha urupapuro rugaragaza ko wishyuye ubundi ugataha.

Uyu nguyu ni umwe mu bakozi b'ikigo cya MTN, gishinzwe kuba cyatanga uburyo bwo guhamagara, uburyo bwo kugura ibikoreshwa kuri murandasi.

Ubu ngubu ni uburyo bushya bwo kwishyura na Momo, aha ngaha haba hari kode baguha y'umucuruzi, ubundi ukamwishyura amafaranga yawe ntagende ari menshi.

Iki ngiki ni ikigo cya emutiyene kidufasha kubijyanye no kuba baguha amayinite ugahamagara mugenzi wawe, cyangwa se ukamwandikira kuri murandasi bitewe n'icyo ushaka.

Aba ngaba ni bamwe mu bakozi b'ibigo by'itumanaho b'imiyoboro igiye itandukanye, umwe ni uw'Airtel undi ni uwa MTN, gusa bose bagufasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye wakifuza, uburyo bujyanye no guhamagara, uburyo bujyanye no kubika amafaranga no kuyabikura n'ibindi byinshi.

Aha ngaha turabona amapikipiki abiri, abagenzi bashobora kuba barimo barakora ibijyanye no kwishyura abari babatwaye, ukabona n'umuntu wambaye umupira w'ikigo cya MTN, bashobora kuba bakubwira uburyo wakoresha wishyura bworoshye.

Aka ngaka ni akazu k'umuhondo gakoreramo umwe mu bakozi bashinzwe itumanaho, ubona ko hari n'abantu batatu bari gushaka ubufasha butandukanye, hari abashaka kuba babitse amafaranga cyangwa se bayoherereza bagenzi babo bari ahantu hatandukanye, cyangwa se abashaka kugura uburyo buza kubafasha guhamagara ahantu hatandukanye.

Aha ngaha ni uburyo wamenya gukoresha amerekezo y'ahantu ikintu giherereye cyangwa se ahantu urimo urajya ari hehe ukoresheje murandasi.

Aha ngaha n'ikigo cy'isoko rigari ubu ni ubucuruzi bwo guhahira kuri murandasi, ushobora kubahamagara kuri izi nimero; ikimenyetso cyo guterenya makumyabiri na gatanu zeru karindwi umunani karindwi ikenda umunani kabiri maganatandatu bakakuzanira ibyo waba wahashye cyangwa wabatumye.

Iri ngiri ni ishyirahamwe ry'abayobozi b'amapikipiki, aha ngaha ni ho babasha kuba bashyira inkunga bagenda batanga buri wese ku giti ke, umusanzu w'umuryango, baba bameze nk'aho ari umuryango.

Ahangaha barakubwira ko bagukorera amata ya yandi yo mu ducupa dutoya cyane aba aryoshye aba avanzemo n'izindi mbuto cyangwa se yacishijwe mu mashini.

Aha ngaha ni isoko ryo kuri murandasi, aha ngaha niho ubasha kuba wareba, igikoresho waba wakunze icyo ari cyo cyose, yaba telefone ngendanwa, cyangwa se inkweto n'ibindi bikoresho by'isa by'itumanaho byinshi.

Ubu ni uburyo bwo guhaha ukoresheje murandasi bitabaye ngombwa ko ujyayo, ahangaha ufata telefone ngendanwa ukandika cyangwa se ugahamagara nimero zitandukanye, ugahaha ubundi ukajya kubona ukabona barabikuzaniye.

Ikindi iki ni ikinyamitende kiba gifite umuyobozi ugitwara. Iki ngiki gishobora kugufasha mu gihe uri nko mu rugo urimo urakora imirimo itandukanye ukumva ntufite imbaraga zo gu guteka, abangaba urabahamagara cyangwa ukabandikira kuri murandasi ku rubuga baba bakoresha, bakakugezaho ibyo ukeneye vuba.

Aha ni ku iposita hari ibinyabiziga by'ubwoko bwinshi butandukanye bidufasha gutwara cyangwa se kutugezaho ibintu tuba twaguze ku rubuga nkoranyambaga bigiye biva ahantu henshi hagiye hatandukanye, ubundi bakabizana.

Ahangaha babita safi irukanka urabona ko bari bazaniye umuguzi wabo watumye ibyo yari yaguze, ahangaha urabahamagara waba uri mu rugo cyangwa se ahandi waba uri bakakuzanira ibintu ukeneye, ushobora kuba ari ibyo kurya cyangwa se ibindi bitandukanye bakabikugezaho.

Aya ngaya ni amapikipiki adufasha mu kukugemurira cyangwa se mu kukugezaho ibyo uba watumye kuri murandasi. Bitabaye ngombwa ko wigererayo. Aha ngaha uratuma baba bafite nimero uhamagara gatatu icyenda karindwi icyenda, ubundi bakakuzanira ibintu ukeneye.

Ikindi ikigo gishinzwe itumanaho hano barakwibwira ku mafaranga ibihumbi bitanu, wagura ibingibi byagufasha gukoresha murandasi mu minsi mirongo itatu kandi ukaba ufite umuhamagaro utagira umupaka ndetse n'ubutumwa kuri net zose.

Ubu ngubu ni uburyo bwo kukugezaho ibintu uba watumije mu gihe utabashije kuboneka ngo wigire kubyizanira, aba ngaba ni abantu babishinzwe uhamagara wibereye mu rugo cyangwa se aho waba uri hose, bitwa vuba vuba bahita babikugezaho mu kanya gato cyane.

Uru nguru ni urubuga rucuruza cyangwa se rugufasha kuba rwakodesha ibintu byinshi bitandukanye ukeneye kugura imodoka, mudasobwa, intebe, amazu n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye ahan gaha urabihasanga.

Aha ngaha barakwereka uburyo ki wagura kuri murandasi, isoko rya Kigali ryo kuri murandasi, aha ngaha ni impano igaragara, barakubwira bati "nawe ushobora kuba wagura impano, ukayigurira umuntu uwo ari we wese kuri murandasi bakabikuzanira."

Iyi ngiyi ni inyubako nziza yubatse uburyo bugiye bugezweho mu iterambere, ifite inzugi nziza zifite amabara meza zifunguka ku buryo bwiza bugezweho bw'iterambere, ikaba iherereye Kibagabaga, ifite ibyumba bitanu wagenda ukenera, ikaba ihagaze ibihumbi magana abiri na mirongo ine by'amadorari.

Ahaha hari inzu nziza yo mu bwoko bwizwiho yubatse neza ku rwego rubereye u Rwanda, harimo amatara meza, hakabamo imiryango imeze neza cyane, uburiri bwiza, bushashe neza, ibyumba byiza, ubwiherero, ubwogero, n’ahandi hantu heshi hatandukanye heza. Barakubwira ko wishyira amafaranga igihumbi na magana atanu y’amadolari.

Ikingiki ni igipangu kiza cyubatse neza ku buryo bugezweho bw'iterambere ukaba waza ukakibamo wowe n'abawe cyangwa se wowe n'umuryango wawe, akaba ari inzu wakwishyura amafaranga angana n'amadorari magana atanu na mirongo itanu ku kwezi.

Iki ngiki n'igipangu cyiza cyane cyiterambere kigezweho k'umuhanda, niko bakubwira, iyi ngiyi n'inzu ushobora kuba waza kubamo ukayikodesha hano barakubwira ko ugomba kwishyura amafaranga angana n'amafaranga y'amadorari igihumbi n'ijana ku kwezi.

Iyi ngiyi ni inzu nziza isa neza ukabona igikoni cyiza gifite utubati twiza aho gutereka ibikoresho byawe bigiye bitandukanye, akaba ari inzu yo kugura, ikaba ihagaza amafaranga angana na miliyoni ijana na cumi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Iyi ngiyi ni inyubako ni nziza yubatswe mu buryo bugezweho kandi bw'iterambere harimo amatara meza amarangi meza amakamyo meza ibikoni byiza bigezweho byubatswe mu buryo bwiterambere ahangaha barakubwira ko uba ugomba kwishyura amadolari angana n'ibihumbi bibiri ku kwezi I Kigali .

Iyi ngiyi ni inyubako nziza ushobora kuba wabamo, wasangamo ibintu byinshi byiza bigiye bitandukanye, ukabonamo insakazamashusho wareberaho amakuru n'indi myidagaduro igiye itandukanye, ukaba wakishyura amafaranga angana n'igihumbi na magana atanu y'amadorari ku kwezi.

Inzu nziza igezweho urabona ko ifite urukarabiro rwiza rwubatse neza rw'iterambere rugezweho, amakaro ahantu hose harimo n'amazi meza, iyi ngiyi ni inzu wabasha kuba wakigurira nawe ukaza ugatura neza utekanye.

Iyi ngiyi ni inzu nziza cyane iri Kigali harimo intebe nziza urazibona, amabara meza asize mu nzu, agaragaza inzu neza intebe wakwicaramo ukaruhuka umugongo, inzu bakubwira ko ari ukwishyura amadorari igihumbi na magana atanu ukwezi.

Izi ngizi ni inzu akenshi iyi ngiyi ni iyo kugurisha, inzu ushobora kubasha kugura iri ku Gisozi hafi ya Kagugu mu mujyi wa Kigali. Bakaba bakubwira ko ari ukuyigura miliyoni magana atatu na mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Izi ni nyubako nziza zigezweho zubatse ku buryo bw'iterambere, iyi ngiyi ni inyubako ifite ahantu heza washyira ikinyabiziga cyawe, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali wayigura amafaranga angana na miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda.

Iyi ngiyi ni inzu ikodeshwa iherereye Kigali Kanombe, bakubwira ko harimo ibyumba bine byo kuryamamo, hakaba ibyumba bitatu by'urukarabiro, amafaranga uba usabwa kwishyura ni amafaranga angana n'ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Ahangaha ni umuhanda usa neza twabona igipangu cyiza cyane ndetse kirimo n'inzu nziza yo gukodesha, ahangaha uba usangamo ibikoresho byose byuzuye neza wowe ushaka waza n'imyambaro yawe n'utundi tuntu duke two kwifashisha nk'ibyokurya n'ibindi ukaba usabwa kuba wakwishyura amafaranga angana n'ibihumbi magana atandatu.

Iyi ngiyi n'inyubako nziza, inyubako ziba ari izamacumbi cyangwa se inyubako zo gukodesha, ikaba iherereye i Kigali, umurenge wa Remera, uramutse uyikeneye waza ukavugana ibikoresho.

Inyubako nziza cyane igaragara ko hanze isasi amabuye meza ya kijyambere ndetse n'inzu ifite amabara meza anogeye ijisho igiciro hano barakubwira ni miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda.

Ahangaha barakwereka inzu yavuguruwe kuri mirongo inani n'icyenda ku ijana yo gukodesha iri kimiroko, arakubwira kofite ibyumba bibiri byo kuryamamo, ibyumba bibiri by'urukarabiro cyangwa se ubwiherero, icyumba cyo kwicarwamo, igikunni, aho bashyira ibinyabiziga ukaba wakwishyura ibihumbi magana atatu buri kwezi.

Aha turabona inyubako nziza yo gukodesha ikaba iherereye Kigali Kanombe hakaba harimo ibyumba bitatu byo kuryamamo ndetse n'ibyumba bibiri by'ubwogero cyangwa se n'ubwiherero, ukaba wishyura amafaranga angana n'ibihumbi magana atatu y'amanyarwanda ku kwezi.

Aha ngaha barakubwira ngo, aha ngaha wahaba wenyine cyangwa se n'umuryango wawe kuko ni ibyumba bibiri. Uru nguru ni urugo ruto, iyi ngiyi ni inzu barimo barubaka ntoya, iringaniye, gusa urabibona ko ari nziza waza ukayibamo.

Iyi ni inyubako nziza yubatse ku buryo bugezweho, ikaba iherereye Kigali Kimironko, ikaba ifite ibyumba bibiri n'icyumba kimwe, ubwo kimwe aba ari icy'ubwogero cyangwa se ubwiherero, ibindi bibiri ari ibyo kuryamamo, ukaba wayishyura amafaranga angana n'ibihumbi magana atatu y'amanyarwanda ku kwezi.

Inzu nshya yubatswe yo kugurishwa iherereye mu mujyi wa Kigali i kanombe ikaba irimo ibyumba bine by'uburyamo, ikaba irimo ibyumba bitatu by'urukarabiro cyangwa se n'ubwiherero n'ubwogero, ikaba igomba kugurwa miliyoni ijana na cumi z'amafaranga y'u Rwanda.

Ahangaha hari inzu yo gukodesha, ni Kabeza ibyumba bitatu, icyumba kimwe cy'ubwiherero cyangwa se ubwogero, icyumba cyo kwicarwamo, ni inzu bakubwira ngo uzajya wishyura amafaranga angana n'ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Inzu nziza iri i Remera hafi n'ahabera imyidagaduro y'ikibuga kiberaho imyidagaduro bakaba bakubwira ko harimo icyumba kimwe cyo kuryamamo ukaba waza ukayikodesha ukaba uyirimo.

Iri ngiri ni isoko rifite ibintu byinshi bitandukanye kandi byiza, wabasha guhahiramo bitewe n'ibyo ukeneye, imyambaro, ibikoresho byo mu rugo, ibikoresho by'abana, ibikoresho byinshi bitandukanye.

Aka ngaka ni akazu kaba karimo icyuma kigufasha kubikura amafaranga ufite ku ikarita yawe. Mu gihe amafaranga ari kuri konti yawe ariko bihuje n'ikarita ugakenera kuza kuyabikura, uraza ukagira imibare ukanda ubundi ukayabikura ukoresheje ikarita.

Iri ngiri ni isoko rinini rigari wahahiramo ibintu byinshi bitandukanye, bitewe n'ibyo waba ukeneye, aha ngaha uyu we yari avuye kugura urubuto rwitwa inanasi, araza haba hari ikoranabuhanga, akaza akishyura ku buryo bw'ikoranabuhanga.

Aha ngaha ni ho bahahira ibintu, imyambaro ikozwe mu buryo gakondo, kuba wagura imikandara, ukaba wagura ibikapu ndetse n'inkweto bikoze muri gakondo.

Iringiri ni isoko rinini , isoko rusange ryo guhahiramo ibintu byinshi bitandukanye urabona ko bafite n'ibikoresho by'abana bakiri bato wabasha kugurira abana bawe ,bafite amavuta yo kwisiga, imibavu ihumura neza imitobe isembuye ndetse n'idasembuye .

Iringiri ni isoko bigari rinini wahahiramo ibintu byinshi bitandukanye, waba ukeneye ibyokurya by'ubwoko butandukanye, harimo imbuto, harimo ibirungo, waba ukeneye ibyokurya bitandukanye, ibisembuye ndetse n'ibidasembuye byose wabihasanga.

Iri ngiri ni isoko ryo guhahiramo ibintu byinshi bitandukanye, ibyo kurya ubona ko riba ririmo urujya n'uruza rw'abantu bakeneye ibintu bitandukanye, bakeneye ibyo kurya, bakeneye ibikoresho byo mu rugo, abakeneye ibikoresho byo mu biro, abakeneye ibintu byinshi bitandukanye biri mu isoko waza ukabisangamo.

Iri ngiri ni iduka ririmo abaguzi benshi batandukanye, tukareba amakanzu meza, tukareba imyenda myiza yo mu bwoko butandukanye, bacuruza imiringa yo kwambara ahantu hose; abakobwa, abamama bakeneye kugura imyenda myiza, aha ngaha wayihasanga.

Iringiri ni iduka rinini rigukorera intebe nziza cyangwa se bacuruza intebe zigezweho nziza z'iterambere zagufasha kuba washyira mu nzu yawe igasa neza ikagaragara neza ku buryo n'uhageze wese abona ko hasa neza.

Iri ngiri ni isoko rinini, iduka ryo guhahiramo ibintu byinshi bitandukanye, ahangaha baba bagufitiye ubwoko bw'isukari, ubwoko bw'imitobe, amazi meza y'ubwoko butandukanye, ahangaha waza ukahahira bitewe n'icyo ukeneye byose wabihasanga.

Iri ni iduka wasangamo ibyokurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, ahangaha barakubwira ngo, imyaka icumi hamwe namwe murakoze, aba bari kwishimira igihe bamaranye n'abaguzi babo, urabona ko bafite inyama nziza, ibirungo, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye byo kurya wahahahira.

Iri ngiri ini iduka ririmo imitako y'ubwoko bwose, imitako wakwitakaho nawe ubwawe ku mubiri, imitako bambara ku maguru, imitako bambara ku maboko, imitako bambara mu ijosi bashyira ku matwi, imitako yo kujyana ukamanika mu nzu, gutereka mu nzu n'ahandi hantu henshi hatandukanye iwawe mu rugo.

Ubwisungane mu kwivuza, ahangaha uramutse ukeneye ubwisungane mu kwivuza uraza ukabufata. Ubundi mu gihe ufite ikarita y'ubwisungane, ujya ku ivuriro; birakorohera mu bijyanye no kwishyura amafaranga y'ibitaro.

Abangaba n'ababyeyi harimo abafite abana, bafite amafishi ndetse n'amakarita yo kwivurizaho cyangwa se gukingiza abana bitewe n'ibyo bamwe baje gukora.

Ku ivuriro cyangwa se ikigo nderabuzima, abantu baje kwivuza, bafite imiti igiye itandukanye, ubundi bakagufasha tukabona n'umubyeyi wambaye umupira w'itorero ry'igihugu, kugira ngo u Rwanda rurusheho kuba rwiza.

Akangaka ni agace runaka kagezweho keza, tubonamo kanyuramo abantu karimo n'umuhanda ugendwamo n'ibinyabiziga, ahangaha tukabona ipikipiki iriho umuyobozi uyiyoboye ayicayeho.

Iri ni ishami rishinzwe gucunga ubwisungane mu kwivuza mitiweli, aha ari kuvuga ati mituweli ishema ry'umuryango, buri muntu usabwa kugira ubwisungane mu kwivuza mitiweli, kugira ngo ubashe kuvurwa neza.

Aha ngaha ni ku ivuriro, turabona umuntu uje kwivuza afite ikarita y'ubwisungane mu ivuza, ikarita ifasha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, mu gihe umaze kuvurwa, igufsha kugira ngo mu buryo bwo kwishyura ivuriro bikorohere.

Aha ngaha umuyobozi w'ikigo gishinze ubwisungane mu kwivuza, aha ngaha aba arimo aratanga ijambo abanyamakuru bamuteze udufata amajwi ndetse bashyizeho n'indangururamajwi kugira abantu bamwumve neza.

Aha ni ku kigo nderabuzima, urahabona umuturage ufite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, iyi karita iyo uyifite biragufasha cyane, iyo ugeze ku kigo nderabuzima cyangwa se ku ivuriro, baguha ubuvuzi ubundi mu kwishyura bikakorohera.

Iyi ngiyi ni imirimo y'amaboko y'ubudozi aha ngaha bakudodera ibikapu byiza gakondo Kinyarwanda wabasha kuba wahaha ukakajyana ahantu hatandukanye guhahiramo ndetse n'utundi tuntu twinshi.

Iri ngiri ni isoko ryiza rigari wahahiramo ibiryo cyangwa se ibintu wakoramo amafunguro by'ingeri zigiye zitandukanye, uramutse ukeneye guhaha ibyo kurya n'ibindi bintu bitandukanye ahangaha wahahira.

Iri ngiri aba ari isoko rito ariko ririmo ibintu byinshi byiza. Urabona ko hari ahaba handitse ko hari imbuto, aha ngaha haba hari ubwoko bw'imbuto bwinshi butandukanye wakwifuza kuba wagura kandi ziryoshye, hakaba hari ahandi tureba hari inyama, uramutse ushaka no kugura inyama na zo urazihasanga.

Isoko rinini rigari, ushobora kuba waza guhahiramo ibintu byinshi bitandukanye wakwifuza, wowe n'umuryango wawe cyangwa se wowe n'inshuti zawe ibintu mwakenera byinshi, aha ngaha mwabisangamo ibyo kurya by'ubwoko bwose n'ibindi bitandukanye.

Iringiri ni iduka ricuruza ibintu bitandukanye ushobora kurisanga mu gace waba uherereyemo, urabona ko hari imitobe y'ubwoko butandukanye, amata yo guha abana, amata y'abantu bakuru, impapuro z'isuku n'ibindi bintu byinshi bitandukanye byo kurya, ibyo kwambika abana bakiri bato b'impinja.

Ibi ngiyo ni isoko rinini rigari wahahiramo ibintu byinshi bitandukanye; ibyokurya, hakaba haba harimo imitobe y'ubwoko butandukanye, amavuta y'ubwoko butandukanye, imibavu ihumura neza, amavuta yo kwisiga uruhu rukagenda rukamera neza.

Iri ni isoko wahahiramo ibintu byinshi bitandukanye, rifite utubati tubika ibintu, ibyuma bikonje ibyo kunywa haba ari amata cyangwa se imitobe, amazi n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Ukaba wasangamo ibyo kurya by'amoko menshi wakwifuza.

Iyingiyi ni inzu irimo ibikorwa bya simba irabarizwa sonatube iri ngiri ni isoko ujyamo ugahaha ibintu byinshi cyane bitandukanye ibikoresho byo mu rugo ,ibintu byokurya bitandukanye by'ubwoko bwose wabisangamo.

Iri ngiri ni isoko wakwishimira kuba wahahiramo ibintu by'ubwoko bwinshi butandukanye wakenera, byaba ibyo kurya bikoze mu mafarini, yaba inyama, ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye aha ngaha wabihasanga.

Iri ngiri ni iduka ricuruza utuntu twinshi dutandukanye kandi twiza, ibyo kurya urabona ko hari ubunyobwa bw'amoko atandukanye yaba ubwa kinyarwanda cyangwa se ubunyamahanga, urabona ko hari n'icyo bita ibisuguti byiza kandi biryoshye.

Iringiri ni isoko, ni ryiza, riba ririmo ibintu bitandukanye, ibyo kurya by'ubwoko bwinshi, imbuto z'ubwoko butandukanye, ushobora kuba ushaka inyama, ushobora kuba ushaka ibihingwa bimera, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye byo kurya, anhangahangaha wabisangamo.

Iri ni isoko ryiza kandi rigari ririmo ibintu bitandukanye imitobe, ibyokurya bindi imiceri n'ibindi bintu byinshi wakenera inyama ibyokurya byose ahanga wabisangamo waza ukabahahira ubundi ukabitahana.

Iri ngiri ni isoko wahahiramo ibintu byiza bigiye bitandukanye, nk' ibirungo by'ubwoko bwose n'ibindi byo kurya wakishimira, imbuto nziza kandi ziryoshye, aha ngaha uramutse ubikeneye wahahahira.

Ni mu isoko ushobora guhahiramo ibintu bye bitandukanye ibyokurya by'ubwoko bwose ibintu byiza biryohereye mu kanwa, ahangaha ushobora kuba waba uvuye mu rugo ushonje aha wahahahira n'amafunguro warya bidasabye ko uteka.

Iri ngiri ni iduka wahahiramo ibintu byinshi bitandukanye ibyo kunywa imitobe itandukanye ibirungo byo guteka mu biryo byinshi bitandukanye kugira ibiryo bibashe kuryoha kandi bigira intungamubiri nziza yagufasha.

Iri ni iduka wahahiramo ibintu byinshi bitandukanye kandi byiza, ibyo kurya byinshi bitandukanye bigezweho, amavuta yo guteka, amavuta yo kurya, amavuta yo kwisiga, impapuro z'isuku n'ibindi bintu byinshi bitandukanye amata.

Iduka rinini cyane wabasha kuza guhahiramo ibintu byinshi wakwifuza kandi wakenera gukoresha mu rugo uri kumwe n'umuryango wawe, ibintu byo kunywa hano bitandukanye waza ukabihagurira n'ibyo kurya by'ubwoko bwose.